Ifoto ngari irimo abana b'abakobwa benshi ndetse n'abagabo bake, bari imbere y'inyubako nini igeretse yanditseho amagambo agaragaza ko iki kigo ari icy'abakobwa.

Idirishya rifunguye, rigizwe na giriyage z'icyatsi, mo imbere harimo ibishushanyo, inyuma naho hari ibishushanyo bigizwe n'ababikoze n'ubukorikori bakoresheje umwenda w'ibitenge.